Icyapa kinini cyamamaza kampani itanga serivisi z'ubwishingizi, haba ku mamodoka, ku bantu ku giti cyabo, ndetse no mu by'ubuvuzi gifite amabara y'umweru yandikishije mu magambo n'amabara y'umukara.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa Toyota, ikaba ari ikoresha amashanyarazi bivanze y'umukara, ikaba iri ku isoko bigaragaza n'ibiciro byayo byo kuyigura iparitse ahantu mu gipangu.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa nziza ndetse na kamera ku ruhande ishobora gufata amashusho y'ibiri kubera imbere mu cyumba ndetse na mudasobwa zikoreshwa mu mirimo itandukanye.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi gitanga serivise z'ubwishingizi haba ku binyabiziga, ku buzima bw'abantu ndetse no mu bijyanye no kwivuza harimo ibiro birimo imashini intebe ndetse n'ameza.

Isoko rinini rusange ricururizwamo inkweto zo kwambara, haba iz'abukuru, iz'abana, abagore ndetse n'abagabo. Harimo abaguzi baje kugura ndetse n'abacuruzi barimo kugurisha.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, birimo imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi bishimye baje guhaha, bagurishanya bari no gutanga serivisi ya IBM.

Isoko rinini ryateraniyemo abaturage batandukanye harimo ndetse n'ibyapa binini birimo biragenda byamamaza ibigo bitandukanye by'ubucuruzi, harimo abaturage bafite ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo amagare n'amamoto.

Imodoka nini ifite amabara y'umuhondo n'umukara, ifite icyapa cy'iposita aho batanyuza ubutumwa, iparitse imbere ya etaje nini ndende, ifite amabara y'umuhondo n'ubururu.

Isoko ryo ku mbuga nkoranyambaga rigaragaza serivisi zitandukanye zigenda zitangwa, ibicuruzwa bigenda bikoreshwa by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiciro bya buri gicuruzwa ushobora kujyaho ukihahira.

Inzu nini nziza yubatse neza isa neza, iri ku isoko ko igurishwa miliyoni ijana, iherereye i Kinyinya, ifite ibyumba bine ndetse na tuwarete, ikaba ari inzu nziza ibereye ijisho.

Abantu babiri bari kuganira bambaye imipira y'umutuku n'umweru bicaye ku ntebe z'umukara bafite ingofero imbere yabo hari ameza abateretse imbere biyogosheshe umukobwa afite umusatsi.

Serivisi z'ubwisungane mu kwivuza, umuturage yagiye kureba umuganga ngo abe yamuha serivisi yo kumuvura, akaba afite ubwishingizi mu kwivuza bumufasha kuba yabona uburyo yishyura amafaranga yo kwivuza.

Iduka rinini ryiza ririmo ibiribwa by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, birimo ibyo mu gikoni, harimo umuturage urimo guhaha ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'abandi baturage bandi bo hirya barimo barahahaga.

Iduka ryiza ririmo ibiribwa by'ubwoko butandukanye harimo ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye byo gutekesha bifite amabara y'umuhondo, ubururu, umweru ndetse n'umutuku.